Mu muhanda w'amabuye harimo ikinyabiziga kinini cy'umweru gitwara abantu mu buryo bwa rusange. Mu mpande z'uwo muhanda kandi hari umukozi wambaye impuzankano y'abakozi bafasha abantu mu bijyanye na serivise z'itumanaho ndetse no koherezanya amafaranga.

Akazu gakozwe mu byuma gafite amabara aririmo umuhondo ndetse n'umweru gatangirwamo serivisi zijyanye na banki ndetse n'itumanaho, na none kandi hari ipikipiki yifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu, ikindi hari inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye birimo nk'ibikapu byo mu mugongo ndetse n'ibyo mu ntoki.

Hakurya y'inyubako y'ubucuruzi hari abantu bane barimo abagabo batatu bambaye imyambaro ya kimwe mu bigo bikorera mu Rwanda bitanga serivisi zigendanye n'itumanaho ndetse no kohezanya amafaranga, na none kandi hari ibinyabiziga birimo ipikipiki ndetse n'imodoka itwara abantu bikaba byifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Abantu benshi bakoraniye ahantu habaye ibirori, aho kimwe mu bigo bikora itumanaho ndetse kigatanga na serivisi zo kohererezanya amafaranga mu gihugu, cyakoresheje igitaramo ndetse hakaba hari n'abantu benshi bambaye imyambaro y'icyo kigo.

Utuzu tubiri dukoze mu byuma, kamwe gafite amabara y'umutuku ndetse n'umweru, akandi gafite amabara y'umuhondo, tukaba dukorerwamo n'abatanga serivisi zigendanye n'itumanaho na none kandi hari ibinyabiziga bitandukanye, birimo ipikipiki ndetse n'imodoka, byifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Akazu gakozwe mu byuma, gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umukara, kakaba gatangirwamo serivisi zitandukanye, zijyanye n'ikoranabuhanga, itumanaho ndetse no kohererezanya amafaranga.

Abantu barimo abagabo ndetse n'abagore bikoreye umusaruro wabo ku mutwe aho bavuye kuwusarura nanone kandi muri bo harimo umugabo ufite igare aho we yashyize umusaruro we ku igare akaba ari kugenda asunika ndetse n'umugore umuri inyuma ari kugenda amufasha.

Umugabo wambaye inkweto zabugenewe ndetse n'imyambaro ifite amabara y'umutuku, umweru ndetse n'ubururu, ari kwita ku ngemwe. Izi ngemwe zikaba zirirwa zikiri ntoya mbere yuko zimurirwa mu mirima aho ziba zigomba guterwa.

Inyubako nziza cyane yubakishijwe amatafari agezweho, isakajwe amabati y'umutuku ndetse ikaba iteye n'irangi ry'umweru weruye, ikaba ari inyubako yifashishwa mu kubika amafaranga ndetse no gutanga inguzanyo ku bikorera.

Itsinda ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, bateraniye hamwe imbere y'inyubako yubatswe mu buryo bugezweho igeranije, ifite amabara atandukanye arimo ibara ry'umweru ndetse n'ubururu bwijimye.

Umuntu w'igitsina gore wambaye umwambaro ufite ibara ry'icyatsi kibisi, ari mu kiraro kigali cyororerwamo inkoko zifite amabara y'umweru, izo nkoko iyo zitaweho zikaba zitanga umusaruro mwiza urimo inyama ndetse n'amagi maze bigateza imbere umworozi wazo.

Munsi y'igiti iruhande rw'inyubako imeze nk'ikiraro, hahuriye abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bagize itsinda, aho bagurizanya ndetse bakanaguriza, bikabafasha kwiteza imbere.

Ibigori iyo bimaze kwera birasarurwa maze bigakurwaho ibishishwa by'inyuma maze bikanikwa. Iyo bimaze kwanikwa birahungurwa maze bikajyanwa gusheshwamo ifu. Iyo fu ikorwamo ibintu bitandukanye ndetse ikaba inavamo umutsima.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bubereye ijisho ndetse izengurutswe n'ibiti bitanga akayaga, itangirwamo serivisi zitandukanye, zirimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Abantu bakaba bagana iyo nyubako, bakishyura amafaranga maze na bo bagahabwa izo serivisi bashaka.

Ahantu heza hagenewe kwiyakirira hari intebe nziza, utubati twiza ndetse n'amatara yaka neza. Harimu umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'umweru ndetse n'ingofero itukura, akaba ari kwiyakira we na bagenzi be ku meza magari.

Iduka ririmo ibintu bitandukanye birimo amagi, ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, harimo umugore wambaye umwambaro ufite ibara ry'umweru ndetse n'undi mwambaro ufite ibara ry'ivu, akaba acuruza bino biribwa ku bantu batandukanye maze nabo bakamuha amafaranga.

Inzu zabugenewe zifite amabara y'umweru zikaba zikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye burimo: ibiribwa ndetse n'imyenda. Hari kandi n'ibinyamitende biri imbere y'izo nzu z'ubucuruzi.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse gifite inyuguti zandikishije ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, kiri kwerekana ko, muri iyo nzu hacururizwa ibyuma by'ikoranabuhanga, ndetse bimwe na bimwe byapfuye, bikaba bikorerwa muri iyo nzu.

Mu cyumba gicururizwamo ibintu bitandukanye, birimo amavuta yo kwisiga, amavuta yo kurya ndetse n'ibirungo bishyirwa mu biryo, harimo umusore wambaye imyambaro ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru, akaba ari gucuruza ibyo bicuruzwa.

Udukoresho ducuruzwa mu maduka atandukanye, tukaba turi mu masashe y'imihondo, utwo dukoresho tukaba dukoreshwa mu gihe umuntu ari kogosha umusatsi cyangwa se n'ubundi bwoya ubwo aribwo bwose buri ahantu atabasha kugera.

Umuti ucuruzwa hirya no hino mu maduka ukaba ukomoka ku bihingwa, ufungwa neza cyane mu mabara atukura ndetse n'umweru, ukaba wifashishwa mu kurwanya indwara zitandukanye zo mu kanwa zirimo ifumbi, impumuro mbi ndetse n'izindi.

Ibicuruzwa byifashishwa mu guteka, bikaba bikomoka ku nyanya zatunganyirijwe mu ruganda, ibyo bicuruzwa bikaba bitangwa n'abacuruzi, maze abaguzi na bo bagatanga amafaranga.

Ikinyabiziga k'igare kiri imbere y'inyubako y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye. Ibi bikaba birimo ibikapu, amabase ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku birimo nk'indobo bifite amabara atandukanye.

Mu iduka rigari ricururizwamo ibintu bitandukanye birimo ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa harimo umuntu wambaye imyambaro y'umukara wicaye akaba arimo gucuruza ibyo bicuruzwa.

Inzu zabugenewe zikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye harimo intebe, amabasi ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku. Imbere y'iyo nzu hakaba hari ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara ibintu n'abantu ari cyo imodoka.

Ibicuruzwa byo mu iduka birimo ibyo kunywa byaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye biri mu cyumba cyabugenewe aho bigurishirizwa, ibyo bicuruzwa bikaba bihabwa abaje kubigura maze na bo bakishyura amafaranga.

Inzu yabugenewe igurishirizwamo ibicuruzwa bitandukanye birimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi, irimo umugore wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, akaba agurisha ibyo bicuruzwa ku bantu, maze nabo bakamuha amafaranga.

Abagabo batatu b'abihayimana bambaye imyambaro yabugenewe y'abihayimana bari ahantu hateguriwe abihayimana bakaba bari kugeza igitambo cya misa ku bakirisitu.

Inyubako nini yubatswe mu matafari ahiye, ifite amadirishya maremare ndetse isize amabara y'umweru hamwe na hamwe, yifashishwa mu gusengerwamo, yateraniwe imbere n'imbaga nyamwinshi y'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere y'iyo nyubako kandi hakaba hateye igiti.

Imbaga nyamwinshi irimo abantu batandukanye bicaye ku ntebe ziri mu nyubako nini yubakishije amatafari ndetse isakaye neza, iyo nyubako ikaba yifashishwa mu gusenga nanone kandi hamanitsemo udutambaro tw'amabara atandukanye arimo umutuku, umuhondo, icyatsi kibisi ndetse n'umweru.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zifite ibara ry'ubururu bw'ikirere ndetse n'ibara ry'umukara, bateraniye hamwe ku kibuga rusange aho bakurikiye umugabo uri imbere yabo wambaye imyenda y'abihayimana, akaba afite ingingo runaka arimo kubaganirizaho.

Imbaga nyamwinshi irimo abagabo, abagore ndetse n'abana bakiri bato, bateraniye iruhande rw'inyubako isengerwamo na none kandi hari igiti kinini cy'inganzamarumbo, kizwi ku izina ry'umuyenzi. Abo bagabo ndetse n'abo bagore n'abana bakaba bakiri munsi.

Imbaga nyamwinshi irimo abagabo, abagore ndetse n'abana bateraniye imbere y'inyubako nini yubakishije amatafari ndetse ikaba isengerwamo na none kandi hari igiti kinini gikuze cy'inganzamarumbo.

Mu nyubako ifite amabara y'umweru, hari umugabo wambaye imyambaro y'umukara, ahagaze imbere y'abandi bicaye, akaba ari kubagezaho ijambo ry'imana. Iyi ikaba ari inyubako isengerwamo ndetse abo bantu bari gusengeramo bakaba banatura.

Umukozi wambaye imyambaro myiza ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara ari mu cyumba kiza gitegurirwamo amafunguro, ayo mafunguro akaba ahabwa abaje kuyagura ndetse na bo bakishyura amafaranga.

Amazi meza cyane asukuwe yagomerewe ahantu habugenewe, akaba yishimishirizwamo n'abantu. na none kandi hari intebe nziza cyane zicarwamo n'abantu, bamaze kwishimishiriza muri ayo mazi. Hakaba kandi hari n'umutaka wagenewe kurinda izuba abo bantu baba bicaye kuri izo ntebe.

Umugabo wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu bwijimye ndetse wambaye n'inkweto z'umukara, ahagaze imbere y'inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho igerekeranyije. Iyo nyubako kandi ikaba ifite n'ubwubatsi bwiza butoshye buri imbere yawe.

Imbere y'inyubako ifite ibara ry'umweru hateraniye imbaga nyamwinshi irimo abagabo ndetse n'abagore bamwe muri bo bakaba bicaye abandi kandi bambaye udupfukamunwa twifashishwa mu kwirinda indwara zitandukanye z'ubuhumekero.

Ku bikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutegura ndetse no kugeza amafunguro ku bantu, hariho ibyo kurya by'ubwoko butandukanye na none kandi hari icupa rifite ibara ry'icyatsi kibisi, ibi byose bikaba byifashishwa mu guha amafunguro abaje bagana ahatangirwa ndetse na bo bakishyura amafaranga.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, igereranyije, ifite amabara atandukanye, arimo umuhondo weruye, ikaba yifashishwa mu gucumbikira abantu, byaba iby'igihe gito cyangwa by'igihe kinini, bitewe n'igihe bashaka kumara aho hantu.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho igereranije ifite amabara y'umweru. Iyo nyubako yifashishwa mu kwakira ibintu bitandukanye harimo inama ndetse abantu bakaba banayicumbikamo. Hari nanone kandi ibinyabiziga byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Mu cyumba cyiza gifite inkuta zisize ibara ry'umweru hari uburiri bwiza bushashe neza bufite ibiryamirwa bifite ibara ry'umweru bikaba bifasha mu kwakira abagenzi ndetse n'abandi bose bashaka kurara muri ibyo byumba maze na bo bakishyura amafaranga.

Mu cyumba cyabugenewe gitegurirwamo amafunguro y'ubwoko bwose, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gufata amafunguro birimo nk'amasahani ndetse n'ibiyiko, ibyo byo kurya bikaba bihabwa abaje kubigura maze na bo bakishyura amafaranga.

Icyumba k'inyubako nziza ifite amabara y'umweru irimo ahantu hatandukanye ho kwiyakiriramo muri iyo nyubako kandi hakaba hari urukuta rufite ibara rijya gusa n'ikigina ryanditseho ijambo murakaza neza mu ndimi eshatu arizo ikinyarwanda, igifaransa ndetse n'icyongereza.

Cyiza cyane gifite amabara y'umweru ukeye kirimo uburiri bwiza cyane bushashe neza bufite ibiryamirwa by'umweru ndetse n'imisego y'umweru, muri icyo cyumba kandi hakaba hamanitsemo ishusho nziza cyane hejuru y'ubwo buriri.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ifite amabara atandukanye izengurutswe n'ibiti bitandukanye bitanga umwuka mwiza ku bayigana, na none kandi hari ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Mu cyumba cyiza kigezweho gifite idirishya rinini cyane harimo intebe nziza zigezweho ndetse n'ameza, kuri ayo meza kandi hateretseho ururabo rufite ibara ry'umuhondo, hari n'andi meza ariho imbuto zirimo inanasi.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umweru, yubatswe mu buryo bugezweho igerekeranyije, ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye, zirimo kuba haberamo inama ndetse no kwiyakira na none kandi hari ibindi binyabiziga byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Abantu benshi bateraniye mu isoko rigurishirizwamo ibintu bitandukanye birimo n'imyambaro, hari kandi ikinyamitende kiriho imboga zitandukanye ndetse n'imbuto, urugero twavuga nk'inyanya ndetse n'imineke.

Mu isoko rusange hari ibikoresho bikoreshwa mu rugo, birimo nk'amasahani, ibyuma, ibikombe ndetse n'indobo. Ibyo bikoresho bikaba bizanwa ku isoko n'ababicuruza maze ababigura na bo bakabishyura amafaranga.

Abagabo n'abagore bateraniye hamwe bakaba bafite umusaruro ukomoka ku bihingwa urimo imboga zirimo imiteja izo mboga zikaba zikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye zifasha umubiri mu kurwanya indwara.

Mu isoko rusange ducururizwamo ibintu bitandukanye birimo imyenda inkweto ndetse n'ibindi harimo umugore wazanye abana be kubagurira inkweto, bakaba bari gushakamo izibakwira na nonene kandi muri iryo soko harimo igare rihetse imifuka.

Mu isoko rusange harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bazanye ibicuruzwa bituruka ku buhinzi birimo ubutunguru, hakaba kandi hari n'ibindi bicuruzwa bipakiye mu mifuka ndetse hakaba hari n'ibimanitse ku dutara.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bateraniye mu mujyi nanone kandi hari umuhanda wa kaburimbo ugezweho, hari n'ibinyabiziga bitandukanye byifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu birimo nk'amapikipiki ndetse n'imodoka.

Inyubako yubatswe ku buryo bwiza, yubakishijwe amabati afite ibara ritukura, ikaba yifashishwa nk'ubuhunikiro bw'ibigori, ibyo bigori bikaba bizanwa aho ngaho mu gihe bimaze gusarurwa maze bikitabwaho, bikanikwa, bikazakurwa aho ngaho bijyanwe gusheshwamo ibintu bitandukanye birimo nk'ifu y'umutsima, na none kandi inyuma yayo hateye igiti.

Imbere y'inyubako ifite ibara ry'icyatsi kibisi cyeruye, hari abantu benshi barimo abagore babiri bahagaze ndetse n'abandi batatu bari gutunganya umusaruro ukomoka ku bihingwa, ari wo ubutunguru.

Abagore bikoreye imitwaro ku mutwe ndetse n'abanyamaguru, bari mu muhanda ugezweho ufite amabara y'umukara ndetse n'umurongo w'umweru na none kandi hari inzu zegeranye zikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye ku gasoko karimo imboga n'imbuto zitandukanye, urugero twavuga amashu ndetse n'inyanya. Abacuruzi b'izo mbuto bakaba bazikura hirya no hino hatandukanye, bakaza kuzigurisha maze bagakuramo amafaranga.

Inyubako nziza, ifite amabara atandukanye, yagenewe gutangirwamo serivisi zitandukanye, zijyanye n'ibyoku kurya ndetse n'ibyo kunywa, imbere y'iyo nyubako kandi hakaba hari intebe nziza cyane, zifite amabara y'umweru n'umukara, zikaba zaragenewe abantu baza kugura ibyoku kurya ndetse n'izindi serivisi iyo nyubako itangirwamo, bakaba baziyakiriramo cyangwa se bakaziruhukiramo.

Icyumba kinini cyisanzuye, gifite amabara meza ndetse kikaba kirimo n'intebe zagenewe kwicarwamo n'abantu baje kwiyakirira muri icyo cyumba, aho kandi hari ibintu bitandukanye, birimo ibinyobwa, ibiribwa bitandukanye, bigurishwa ku bantu baje na bo bakishyura amafaranga.

Mu nzu yabugenewe ikora ibijyanye no gutanga ibiribwa ndetse n'ibinyobwa ku bantu baje babishaka hateraniyemo itsinda ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore aho bafite amacupa ku meza ndetse ayo macupa akaba arimo ibyo kunywa bitandukanye.

Inzu nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, igerekeranyije, ifite ibara ry'umuhondo weruye, ikaba itangirwamo serivisi zitandukanye, zirimo izijyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa.

Urujya n'uruza rw'imodoka z'ubwoko butandukanye ziri mu muhanda ugezweho aho zabaye nyinshi gutambuka bikaba byabaye ikibazo, ibi akenshi na kenshi biterwa n'uko hari ikibazo runaka cyavutse mu muhanda bityo bikabuza ikinyabiziga kiri imbere cyangwa se ibindi kugenda nk'uko bisanzwe.

Mu nkengero z'umuhanda wa kaburimbo hari abasore umwe ufite igare ndetse n'undi afite igare bakaba bayakoresha mu bijyanye no gutwara abantu maze na bo bakabaha amafaranga, hari kandi n'umugabo ufite ipikipiki, ikindi kandi hari abakozi bakora mu bijyanye no gutanga serivisi zijyanye n'itumanaho.

Imbere y'inzu ifite uruzitiro rw'imiyenzi, umugabo ndetse n'umugore we bari ku igare aho bavuye guhinga, bakaba bafite n'amasuka batwaye kuri iryo gare. Iri gare ribafasha cyane mu mirimo yabo y'ubuhinzi, aho bashobora kuritwaraho nk'ibishingwe ndetse n'umusaruro.

Abagabo babiri bambaye ingofero zagenewe kwirinda impanuka, bari ku ipikipiki yifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu iri mu muhanda ugezweho ufite amabara y'umukara ndetse n'umweru. Nanone kandi hari abanyamaguru bari kunyura mu nzira yagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru ndetse hakaba hari n'inyubako z'ubucuruzi.

Abagabo babiri bambaye ingofero zibarinda mu gihe cy'impanuka, bari kukinyabiziga cy'ipikipiki mu muhanda ugezweho wa kaburimbo. Nanone kandi hakurya y'umuhanda hari ibiti bitandukanye by'imbuto.

Mu muhanda ugezweho wa kaburimbo ufite imirongo y'umuhondo, hari kunyuramo igare rihetse abagabo babiri. Iryo gare bakaba baryifashisha mu mirimo itandukanye na none kandi hari imbuga nini yo mu kigo cya kaminuza ndetse n'ibiti byo ku muhanda.

Abagabo babiri bambaye ingofero zabugenewe, bari kukinyabiziga cy'ipikipiki kiri mu muhanda ugezweho ukoze neza cyane, ku rundi ruhande hakaba hari abanyamaguru bari kugenda mu nzira yabugenewe yo kugendwamo n'abanyamaguru.

Mu muhanda ugezweho mwiza cyane ufite umurongo uwunyuzemo w'ibara ry'umuhondo hari abagabo babiri bari ku ipikipiki yifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu abo bagabo kandi bambaye ingofero zabugenewe zirinda impanuka mu gihe cy'urugendo kuri uwo muhanda kandi hari amatara ndetse n'imiyoboro y'insinga z'amashanyarazi.

Umugabo wambaye ingofero irinda mu gihe cy'impanuka uri ku kinyabiziga cy'ipikipiki ari mu muhanda ugezweho ufite amabara y'umukara ndetse n'umweru, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari utuyira twagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru ndetse n'inyubako z'ubucuruzi zifite amabara y'umweru.

Abagabo bamwe muri bo bambaye impuzankano itukura, bambaye ingofero zirinda mu gihe cy'impanuka bari ku binyabiziga by'amapikipiki, bakaba bategereje abagenzi, abo bagabo bakaba bajyana abagenzi mu byerekezo bitandukanye, maze abagenzi nabo bakabishyura.

Mu muhanda ugezweho ufite amabara y'umukara ndetse n'imirongo y'umweru, harimo umugabo uri ku kinyabiziga k'ipikipiki, akaba agikoresha mu gutwara abantu ndetse n'ibintu na none kandi hari inzu zifite amabara y'umweru zikorerwamo ubucuruzi bw'ibintu bitandukanye.

Mu muhanda ugezweho ufite amabara y'umukara ndetse n'umweru, harimo ibinyabiziga bibiri, ari byo igare ndetse n'pikipiki. Ibi binyabiziga bikaba byifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu na none kandi hari inzu z'ubucuruzi zicururizwamo ibyo kunywa ndetse n'izindi.

Mu cyumba gisize irangi ry'umweru harimo ikinyabiziga k'ipikipiki kifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu gikoresha umuriro w'amashanyarazi kugira ngo iki kinyabiziga gitwarwe hakaba hagombwa uruhushya rutangwa na Polisi y'Igihugu rwo gutwara ibinyabiziga.

Umushoferi w'umugore wishimye, akaba ari mu modoka zitwara abagenzi. Biba bigoye cyane kubona umugore watinyutse agakora bene ako kazi ariko ntibibuza ko benshi batinyuka maze bagakora ibyo abandi baba batinye.